Kabare cangwa ibara ni inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye cane cane ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, haba harimwo abakozi bazi gutegura ibyo kurya kuko kenshi iyo ubibonye amazi guzura akanwa kubera uburyo biba biteye amabengeza.

Icapa mu bwinshi ni ibyapa, ni bumwe mu bwumvane bwahimbwe n'abahanga. Ibyapa bimanikwa ahantu hagaragara, biriho ibirango cangwa ibimenyetso bigaragaza ubutumwa bw’uwakimanitse yifuza kugeza ku bazakireba. Bimanikwa kenshi ku mihanda nyabagendwa no ku mazu.

Inyama zokeje zizwi nka boroshete mu migi imwe n'imwe usanga bazita igiti. Ni inyama usanga zokeje n'ubuhanga ziriho ibirungo kandi ziryoshe cane, zishobora kuba iz'inka cangwa iz'ihene.

Ibikoresho biteye bitya nta handi wabisanga uretse mu nyubako bita agakiriro. Agakiriro cyangwa se agakinjiro bamwe bakwita agakinjiro niho bonyine ushobora gusanga hakorerwa ibikoresho nk'ibi bikenerwa mu mazu birimwo: intebe, ameza, ibitanda n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi zizwi ku izina rya bara cangwa kabare, zicuruza ibyokunywa bitandukanye, byaba bikonje cangwa bishushe. Bishobora kuba kandi bisembuye cangwa bidasembuye. Umukiriya aza abaza ikinyobwa bitewe n'ico umutima gwe gwifuza.

Ibara cangwa akabare ni hantu hacururizwa ibinyobwa n'ibiribwa haboneka n'amacumbi. Iyo abantu bamaze kwizihirwa bamaze kurya no kunywa, akenshi barangwa no kubyina kuko haba harimo n' umuzika.

Kabare cange ibara ni inyubako zicururizwamo cane cane, ibinyobwa bitandukanye. Ushobora gusangamo nanone ibyo kurya nk'akanyama kokeje; cangwa gatetse bitewe n'ubwoko bw'inyama wifuza kurya. Kabare ifitiye abantu akamaro kuko ibaha amafaranga gabafasha gutera imbere.

Abagabo babiri kandi b'abasirimu bicaye mw'ibara cangwa kabare, bari gusangira ico kunywa giteretse ku meza hagati yabo, kandi barishimye, kuko bakoze ikimenyetso kigaragaza ubuzima bwabo.

Kabare, ibara cangwa hoteri. Ni amazu atangirwamo serivisi z'ubucuruzi zitandukanye. Zirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hari ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya bigaragara nk'aho atari ibyo mu muco wacu. Biba ari ibya ruzungu. Hakaba n'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bishobora kuba ari iby'umuco wacu.

Ibara ni inyubako nini cyane iba iteguwe neza, irimo intebe, ameza byo abakiriya bicaraho igihe bafata icyo kurya ni icyo kunywa, ni inyubako ihesha amafaranga abayubatse, kandi igatuma iterambere ryabo ryihuta n'iry'igihugu muri rusange.

Kabare cangwa ibara ni inzu nini cane ishobora kugira imbuga ngari yakira abakiriya. Icururizwamwo ibyo kurya n'ibyokunywa by'amoko gatandukanye, umukiriya araza agakoresha komande y'ico yifuza.

Icumba ca kijambere gicururizwamo ibyokurya n'ibyokunywa bitandukanye. Gifungura buri munsi, kandi gicururizwamo ibinyobwa nk'amaji cangwa imitobe bitandukanye, imigati itandukanye nibindi.

Inyubako za kijambere zigeretse, zizwi ku izina ry'amayetaje, zubatswe ahantu mu mujyi. Ziriho ibyapa byinshi cane bigaragaza cangwa biranga serivisi zitangirwa muri izi nyubako. Ni inyubako zibereye ijisho rwose.

Inzu nto cane y'ubucuruzi izwi nka butike cangwa se na none mu ndimi z'amahanga kiyosike, ni inzu usanga icuzwe mu byuma igasakazwa amabati ,hanyuma igakorerwamwo ubucuruzi butandukanye.

Inzu ya kijambere icururizwamo ibyo kurya bitandukanye izwi ku izina rya alimantasiyo. Arimantasiyo ni inzu icuruza cane cane ibiribwa nk'imigati, amagi, amata n'ibindi binyuranye biribwa.

Inyubako ya kijambere icururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye nk'amabati, ibyuma bikogwamo inzugi cangwa amadirisha nk'uko bigaragara ku kirango kimanitseho. si ibyo gusa bikorerwamo kuko hatangwa na serivisi yo guhanagura imyenda cangwa kuyifura.

Butike iri gucururizwa mwo ibikoresho amabasa ashobora gukoreshwa mu mago, harimo gucururizwamo n'ibiribwa harimo nk'amandazi harimo n'utundi dukoresho dutandukanye umuntu yakwifashisha atwara nk'ibintu. Haba udufuka. Ndabona harimo n'amagi da gatuma umuntu agira intungamubiri.

Inyubako za kijambere zubatswe zigeretswe ni inyubako na none zizwi ku mazina ga etaje zubakwa cane cane ahantu h'umugi, zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi cangwa zigatangirwamo izindi serivise, zaba iza Leta cangwa iz'abantu bikorera ku giti cabo.

Agasantere k'ubucuruzi kubatswe ku buryo bwa kijambere, kubatswe iruhande cangwa hafi y'umuhanda wa kijambere uzwi ku izina rya kaburimbo. Aka gasantere gacuruza ibintu binyuranye nka resitora harimo na serivisi z'itumanaho n'ubundi bucuruzi bunyuranye.

Inzu yubucuruzi, ifite imiryango zitandukanye kandi zose zifunguye. Iruhande rwayo cyangwa imbere y'iyo nzu, haparitse imodoka nziza cyane, haracururizwa ibicuruzwa bitandukanye, nk'ibidomoro, imbabura, imikubuzo, n'ibindi byinshi.

Inzu z'ubucuruzi zizwi nka hoteri cangwa moteri. ni inzu zikorerwamo cangwa zigatangirwamo serivisi zitandukanye， zirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa，ushobora gusangamwo n'amacumbi cangwa ugasangamwo aho wogera， ukaruhura umubiri.

Inyubako ndende cane ya kijambere izwi nka etaje, ni inyubako nziza cane ibereye ijisho ikorerwamwo ibintu bitandukanye nk'ubucuruzi, cangwa ikabonekamo serivisi zinyuranye nk'amahoteli, serivisi z'amabanki cangwa serivisi z'ubwishingizi.

Butike ni inzu nto ikorerwamwo ubucuruzi, iyo yagutse cane ari ngari cane yitwa iduka. Iduka riba ririmo ibicuruzwa byinshi ugereranije n'ibiba muri butike. Abantu bakenera kuza kurangura mu iduka bakaja gucururiza mu mabutike yabo matoya.

Inzu yubatse ku buryo bwa kijambere, icururizwamo ubucuruzi butandukanye, nk'uko bigaragazwa n'ikirango kiyimanitseho. Harimwo ibyo kurya bitandukanye: nk'inyama z'inkoko, n'inyama z'ihene zokeje. Kandi habonekamo inzoga z'amoko atandukanye. Ikirenze kuri ibyo, habarizwamo n'amacumbi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye harimo: radiyo, televiziyo, antene za televiziyo, ibikoresho bikonjesha cangwa bishusha nk'uko ikirango kibigaragaza. Ni inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Inyubako za kijambere ziriho icapa kiranga serivisi zikorerwamo. Zitanga serivisi zo gucumbikira abanyamahanga cyangwa abashitsi, birumvikana si izo serivisi gusa zigaragaramo habarizwamo n'ibyokurya n'ibyokunywa ku bantu baje bahagana.

Harimo haraboneka imodoka yo mu bwoko bwa ranjelova hakaba hari n'iduka rinini cane ricuruza ibicuruzwa bikozwe mu mbaho : ibitanda, ameza n'utubati, hakaba na none hari n'umucuruzi w'umutegarugori uri gucuruza ibiribwa ahabanza.

Inyubako ya kijambere. Ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Iriho ikirango cangwa icapa kigaragaza ubwoko bw'ihuzanzira buhagaragara. Hari n'ibipupe cangwa bizwi ku izina rya maneke byambitswe imyenda, byamamaza ko hacururizwa imyenda.

Inzu nto y'ubucuruzi izwi ku izina rya butike, icuruza ibicuruzwa bitandukanye abaturage bakenera, harimo: amakara, ibyo kurya nk'ibirayi, imbuto nk'imineke, serivisi zitandukanye z'itumanaho kubitsa, kukuza n'ibindi.

Icumba gito kizwi ku izina rya butike gicururizwamo kikinguye imiryango yaco ikingurirwa hanze, mu muryango hari agatebe k'umweru ka palasitike, hahagazemo n'umwari urimo kubaza igicuruzwa ashaka.

Inzu nziza cane ya kijambere yubatswe ku buryo bugezweho, icururizwamwo imiti ivura abantu mu ndimi z'amahanga izwi nka farumasi, hari abantu bayirimo imbere bari kugura imiti kandi harimo n'ubagurisha.

Butike ni inzu ntoya ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Icapa kiranga akenshi ibicuruzwa biba bigaragara mu nzu ya butike, kimanikwa aho abantu bose baba bakibona kugira ngo babashe kuhagana bazi ibicuruzwa baza kuhabona.

Inzu ya kijambere， iy'ubucuruzi izwi ku izina rya butike. Icururizwamo ibikoresho nangwa se ibicuruzwa bitandukanye abantu bakenera. Uretse kuba icururizwamo， ishobora no kuba icumbi ku bantu bayicururizamo.

Moteri ni inyubako nto ugereranije na hoteri. Ni nyubako usangamo serivisi zitandukanye ,ushobora kuhabona ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ndetse ushobora no kuhabona amacumbi ,nanone ushobora kuhabona ihuzanzira ryubuntu bituma umenya amakuru.

Icumba abashitsi bavuye kure bashobora gucumbikamo ari abavuye mu Rwanda hirya no hino cangwa se bavuye i Mahanga, akaba ashobora kuhabonera ico kurya n'ico kunywa nta handi ni naho ngaho, aho.

Inyubako ya kijambere handitseho izina Migano ni inyubako ikunda kwakira aba mukerarugendo abantu baje baturutse hirya mu mahanga baje gusura nk'ingagi mu birunga.

Ubwumvane hagati y'abantu bunyura mu ngeri itatu zitandukanye. Ushobora kubunyuza mu nyandiko, cangwa ukabunyuza mu mvugo, na none bushobora kunyura mu marenga. Icapa kigaragara gikoresha ubwumvane nyandiko.

Matera cyangwa umufariso ni igikoresho kinepa, gikorerwa mu ruganda gifite umumaro wo kuryamaho, cyangwa kigakorwamwo intebe zo kwicaraho, ni gikoresho gifite akamaro kanini cyane kuko kivura amavunane.

Inzu yubatse kijambere nk'uko bigaragazwa n'amasuku ikorewe itangirwamo serivisi zitandukanye nko kogosha, gutunganya imisatsi mu buryo bwo kuyisuka, gutunganya inzara ndetse hatangirwa na serivise z'ubudozi bw'imyenda.

Inyubako nini n'into za kijambere zizwi nk'amahoteli ni inyubako usanga zitanga serivise nyinshi zinyuranye, harimo serivise z'ibyo kurya, amacumbi, ubwogero n'ibindi. Ni inyubako zigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu kuko abaziraramo batanga amafaranga.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere yayo hari umutaka ugaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho kizwi nka emutiyeni, aho bagurishiriza amayinite cyangwa serivisi zindi zijyanye n'itumanaho.

Inzu icururizwamo iragaragara nanone nk'inzu nini y'ububiko cangwa iy'ubuhunikiro. Iyi nzu ikaba nayo yubatswe kijambere kuko ifite amakaro ku bibambasi byayo, inzugi nazo z'icatsi zisizwe irangi.

Butike ni inzu nto icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye iyo yisumbuyeho yitwa iduka, dushobora gusangamo ibinyobwa cyangwa ibiribwa, dushobora na none kubonamo ibicuruzwa bitaribwa bifitiye abaturage akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amazu go guturamo n'ubucuruzi byubatse iruhande rw'umuhanda gwa kaburimbo n'umuhanda uba gusa n'umukara kubera guduro ,cangwa ibinosi biwusaswamo, bituma imodoka ziguyuramo zigenda zinyerera zidategwa.

Urugo rwa kijambere. Rwubatse neza cane. Rusakajwe amabati. Kandi rufite amarangi ku bikuta byarwo. Imbere hari inzu nto yateganirijwe ubucuruzi butuma rurushaho gutera imbere

Ni inyubako z'ubucuruzi zubatse ku buryo bugezweho cangwa bwa kijambere. Zubatse impande y'umuhanda uzwi ku izina rya kaburimbo cangwa se korasi kuko bigaragara ko hari n'ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare, amamoto aheka abantu n'ibintu byabo.

Kuzunguza ni ugucuruza ibicuruzwa， ugenda ubibunza ahantu henshi， ubicuruza yitwa umuzunguzayi. Umutegarugori arazunguza， cyangwa aracuruza imyenda itandukanye， nk'imipira yambarwa，ibitenge n'inkweto abishikiriza ababikeneye.

Inzu ya kijambere ibereye ijisho yubatswe ku buryo bugeretse buzwi nka etaje. Iri mwo isoko rya kijambere rimeze neza cane ricururizwamwo ibicuruzwa bitandukanye. Ni isoko umuntu uciriritse atakwigondera.

Inyubako ya kijambere yubatse ku buryo bugeretse, mu bigaragara ikaba yaragenewe ubucuruzi .Haragaragara ko hari gucururizwamo imyenda iryamirwa, intebe zicarwaho, birumvikana n'imyenda yambarwa nk'ingofero.

Icumba ni icumba twagereranya na buteke ,ariko co kikaba gicuruza :amavuta g'imodoka ,ga moteri y'imodoka ,ga feri y'imodoka, hari na bya girise ,nkuko ubibona muma mubidomoro bitandukanye biri muri etageri zitandukanye ziri muri iki cumba.

Inyubako ziriho ibirango byamamaza inzoga zikorerwa muri buralirwa zizwi ku izina rya mitsingi. Aha ni mu ruteri birumvikana rw'izi nzoga ni yo mpamvu hamanitsweho ibyo birango byazo.

Amazu g'ubucuruzi gacuruza ibintu bitandukanye gejyeranye cane n'urusengero, bigaragara ko aga mazu gubatswe impande y'insengero mu rwego rwo kubonera hafi abakiriya baza bagannye uru rusengero, kuko baba ari benshi kandi bafite amafaranga.

Isoko rya kijambere ryubatse ku neza cane kandi rifite ubwiza bugaragazwa n'umuco n'amarangi byatewe, riri gucururizwamo ibihaza bizwi nanone nk'imyungu cangwa amadegede.

Inyubako yubatswe muri kontineri. Kontineri ni ibibati bifunze neza bimeze nk'inzu biba biri inyuma ya bya bimodoka binini cane, bikururana byifashishwa mu gutwara ibintu. Inyubako yagenewe gukorerwamwo umwuga w'ubudozi, ubudozi ni umwuga mwiza cane utuma tubona imyambaro.

Inzu ya kijambere iriho icapa camamaza ko ikorerwamwo ubuyunguruzi bw'umuziki. Si ubuyunguruzi bw'umuziki gusa, ahubwo hakorerwamwo n'ibindi bitandukanye nko gufata amafoto y'abageni cangwa gufotora amafilime y'ubukwe n'ibindi.

Inyubako ya kijambere yitwa Hoteli. Hoteli ikaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Aho bacuruza ibyumba byo kuraramo bacuruza ibyo kurya, bagatanga n'izindi serivisi zitandukanye kubaje babagana.

Inzu z'ubucuruzi into n'inini, zubatse iburyo n'ibumoso bw'umuhanda gwa kaburimbo guzwi nka kolasi, nk'uko uruja n'uruza rw'abantu bagenza amaguru, cangwa bagendera ku binyabiziga rubigaragaza.

Iduka mu ibara ry'ikirango c'ikigo c'itumanaho kizwi nka emutiyeni. Birumvikana ko aha hatangirwa serivisi zose zishoboka za emutiyeni. Imbere y'iri duka hari abagabo banyura imbere basa bose nabagiye batitaye ku bikorerwa mu iri duka.

Icapa ni ikirango kinyuzwaho ubutumwa mu buryo bw'ubwumvane budakoresheje amajwi. Kigira ingano bitewe n'ingano nanone y'ubutumwa buza kukinyuzwaho. Kimanikwa ku mihanda cangwa ku mazu manini cane kugira ngo kirangire abo cifuza kugezaho ubutumwa.

Mu irembo hari ibiti by'inganzamarumbo, hari n'ibikingi by'ibyuma kera iwacu babyitaga imyugariro. Abazungu nabo batuzaniye byinshi. Bazanye imyugariro y'ibyuma hirya mo imbere harimo amazu, amazu utamenya ibyo bayakoreramo. Niba ari inganda, niba ari iki sinamenya!

Inzu zo guturamo zizwi ku izina ry'uducurama. Imbere yazo hubatse izindi nzu nto cane z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, bishobora kuba: ibiribwa cangwa ibinyobwa. Bishobora kuba nanone ibitaribwa cangwa ntibinyobwe.

Icyumba ca kijambere cubatswe ku buryo bugezweho, gicururizwamo ibicuruzwa byiza cane by'ikoranabuhanga nka televiziyo, radiyo, mudasobwa, amapasi ibikoresho bacomeka kumuriro gw'amashanyarazi bishyusha amatelefone n'ibindi.

Inyubako ya kijambere iteye amarangi gatandukanye. Ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Ifunguye imiryango yayo yombi. Hari umuntu imbere uhagaze yitegereza ibicuruzwa birimwo bitandukanye. Hari kandi ibipupe cangwa maneke byambaye imyenda byamamaza.

Urusengero cangwa kiliziya ni inyubako ya kijambere yubatswe neza cane. Usanga ari inyubako itatse neza kandi itandukanya aho umukirisitu, umubwiriza, cyangwa umupadiri bicara.

Inyubako ya kijambere yubakanywe ubuhanga n'ubugenge isakajwe isakaro rizwi ku izina ry'amabehe cangwa amategura, ni inyubako ishobora kwakira abashitsi baje baturutse mu mahanga bakahabona ico kurya ,bakabona aho barara bakaba bashobora no kuhidagadurira bidumbaguza muri bya byuzi byitwa pisine.

Hoteri cyangwa se moteri, iyo ari inyubako nto. Ni inyubako icururizwamo ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse hagaragaramo n'amacumbi acumbikira abashyitsi baturutse hirya no hino nko mu mahanga. Afitiye Igihugu akamaro kuko yinjiza umusoro.

Icumba ca kijambere twagereranya n'ubwiherero cangwa tuwarete mu ndimi z'amahanga, kirimwo igikarabiro cangwa ibikarabiro biteretse ku kameza kabyo . Hari n'urupapuro rw'isuku ndetse n'isabune uza gukaraba umaze gukora akazi.

Hoteri cangwa se nanone moteri ni inyubako za kijambere abantu baboneramo serivise zitandukanye. Harimo nko kubona ibyo kurya cangwa ibyo kunywa, habarizwamo n'amacumbi abantu bashobora kuryamamo, hari n'aho baruhukira nko mu mazi boga.

Ni imodoka itagira amapine ni imodoka igendera ku amaguru y'abantu. Imodoka kandi y' icumba cimwe rukumbi. Umushoferi wayo ni umwe, ni na we ugenda muri ico cumba, ntashaka umurekeza. Iyo modoka nta yindi. Ni isanduku, isandu itwara umurambo.

Mu bucuruzi buri mu isoko, bwiganjemo cane cane imbuto zirimwo amapera zirimwo marakuja n'andi .Aya akaba ari amatunda agirira umubiri wacu akamaro muje mugarya.

Isoko rya kijambere, ni isoko usanga ritandukanye n'agandi masoko gatari kijambere kuko ryo rirubakiye kandi rirasakaye ku buryo n'igihe imvura iguye, si biba ngombwa ko umucuruzi cangwa umuguzi banura ibicuruzwa byabo cangwa ibyo baguze.

Isoko ritari irya kijambere ni ukuvuga ritubakiye ricururizwamo ibikoresho bitandukanye nk'imbabura zabumbwe n'ababumbyi cangwa zacuzwe, imyuko yabajwe n'ababaji cangwa indosho, indobo n'amabase bya pulasitike bitandukanye.

Iseta icuruzwamo ibikoresho bya pulasitike harimo: imidaho ya kizungu ,amasekuru ,amakarayi harimo inkoko harimo imipanga harimo ibidomoro harimo amasahani ya pulasitiki harimo ibintu byinshi byinshi byinshi ibikosi ibintu byinshi bitandukanye.

Ni mu isoko ahacururizwa ibipupe cyangwa se ibikinisho, hakaba hacururizwa n'ibitambaro, cyangwa ya myenda bahanaguza ameza kugira ngo agire isuku, cyangwa bakaba bashobora no guhanaguza amasahani bamaze koza.

Umugabo uri kugotomera icigage mu ijage. Icigage ni ico kunywa kiba cakuwe mu masaka g'amamera. Gishobora gusindisha cangwa ntigisindishe bitewe nuko cashigishwe cangwa cenzwe n'uwacenze.

Imiteja n'intoryi byose ni imboga zikundwa n'abantu benshi kuko zigira intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu, zirinda indwara bityo umubiri ntigurwaragurike cane, zihingwa mu duce dushyuha cane tw'Igihugu.

Abahinzi b'imboga z'amashu, basaruye umusaruro gwabo, bagwereza hafi y'umuhanda aho baza kubona ikinyabiziga cabafasha kugeza umusaruro gwabo ku isoko. Bategereje rero ko ico kinyabiziga kibageraho bakajana umusaruro wabo ku isoko gushaka amafaranga.

Isoko ni hantu usanga hahurira abaguzi nabagurisha, hari ibinyabiziga bitandukanye bipakira cangwa bipakurura ibicuruzwa abantu bakenera bishobora kuribwa cangwa bitaribwa kuko isoko ribamo byinshi.

Imbuto nk'imyembe, amaronji, ipapayi, indimu n'izindi ni imbuto zifitiye umubiri wacu akamaro gakomeye, ni zimwe mu biribwa bidufasha kurinda indwara, no korosha igogora mu gihe twariye ibiryo bikomeye.

Amacupa gariho ikirango ca Nili .Ni uruganda rutunganya amazi gafutse. Amazi ganyobwa gatarimo imyanda na micye. Akaba agamazi rero gari muri etajere gari kugurishwa kandi gakaba bwerekana ko uru ruganda rufite ubuziranenge.

Pinari cangwa epinari， ni imboga zerera hasi cane ku butaka， ni imboga kandi zigira intungamubiri nyinshi cane， zishobora kuribwa uzitetse cangwa ukazirya mbisi bizwi ku izina rya salade. Ziraryoha kandi zifitiye akamaro kanini umubiri gwacu.

Ikigage, ubushera, na none umusururu. Byose birimo ubuki byitwa inturire. Ni inzoga yengwa mu masaka, aba yinitswe neza yahindutse amamera. Biri mu icupa rya pulasitike ryitwa na none igipupa.

Isoko ritari irya kijyambere riri gucururizwamo ibikoresho byo mu rugo nk'amasafuriya, amabasi ariko harimo n'imyenda. Gusa abaguzi nibake ugereranije n'abari gucuruza, abacuruzi nibo benshi bigaragara ko ahari ritari ryarema neza.

Inzu ya kijambere nini cane izwi ku izina rya Goyikopulaza, ni isoko rya kizungu ririmo ibyumba byinshi cane bitangirwamo serivise zitandukanye. serivisi z'ubucuruzi, serivise z'amabanki, serivise z'ubwiteganyirize, ni byinshi cane usangamo.

Inyanya, karoti, ibitoki, imboga n'izindi mbuto nk'imineke, ni bimwe mu bicuruzwa biri muri iri soko rya kijambere. Gusa bigaragara ko abacuruzi baruta abaguzi. Hari umwe mu abacuruzi bigaragara ko yafashwe n'ibitotsi bivuze ko yabuze abakiriya.

Umwenda mu bwinshi tuvuga imyenda， ni igikoresho kibohwa mu budodo kandi gikenerwa n’umuntu mu buzima bwa buri munsi. Uretse kuba yambara agahisha ubwambure，imyenda ifite akamaro ko kumurinda imbeho， ishobora kumutera uburwayi.

Isoko ritubatse kijambere riri gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye nk'imiteja, ibitunguru, hari n'imyenda itandukanye yaba iy'abana cangwa iy'abantu bakuru.

Imboga zirimwo amoko gatandukanye. Dusangamo puwavuro, seleri, inyabutongo, dodo, isogo, isogi puwavuro, ibitunguru n'ibindi. Ni imboga zigirira umubiri wacu akamaro cane.

Isoko ni ahantu hategurwa, hakubakirwa cangwa ntihubakirwe, ariko hagahurira abantu batandukanye bazanye ibicuruzwa, abandi baje ari abaguzi bakenera bya bicuruzwa.

Isoko rya kijambere ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ririmwo abaguzi n'abagurisha batandukanye abagore n'abagabo, ririmwo ibicuruzwa bikorerwa mu nganda n'ibikorwa n'amaboko g'abantu riricururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye.

Itabi ni igihingwa cera cane cane mu majaruguru mu duce dukonja. Iyo kiri mu murima kitarasarurwa, ibibabi byaco biba bisa n'icatsi. Biracibwa bigahubikwa, nyuma bikanikwa hanyuma bakabishandika byumye. Ni ikiyobyabwenge.

Umutegarugori n'umwari bicaye ku nzi nyabagendwa, baracuruza ibicuruzwa bitandukanye birimwo nk'ibiribwa ndetse n'ibitaribwa, mu biribwa hari ibishimbo ndetse bakacuruza n'ibitaribwa nk'isabune izwi ku izina rya omo.

Isoko ni ahantu hategurwa hagacururizwa ibicuruzwa hagahurira abaguzi n'abagurisha. Aho ibicuruzwa biterekwa hitwa mu nturo cyangwa mu ntereko, uzasanga hari inturo y'ibigori, ibirayi ,ibishyimbo, imyenda n'ibindi.